Umuntu uri gukora amasuku mu busitani. Yambaye bote z'umukara, impande ye hari ingorofani n'igitiyo ari kugenda ashyiramo imyanda. Impande ye hahagaze imodoka itwara abantu, hirya ye hahagaze n'indi modoka yikorera imizigo.